Umubyeyi n'umwana bari mu murima w'ibihingwa, imbere y'inyubako yishimye cyane.

Icyumba kirimo abarwayi, abaganga babo, buri murwayi afite umuganga, arimo aramutera urushinge.

Ivomero riri munsi y'umuhanda, ririmo riravomwaho n'umwana, n'umugabo uri kumufasha kuvoma, inyuma yabo hari abanyeshuri bambaye impuzankano, n'ababyeyi, abana bavuye ku ishuri.

Abantu bari ku kigo nderabuzima, bose bicaye, hari umuntu umwe uhagaze, imbere ye hari umunzani, uriho umwenda bambiku umwana mu gihe barimo baramupima ibiro.

Icyumba kirimo inshinge n'imiti bikoreshwa mu kuvura abarwayi, byose bikaba birambitse ku mazi.

Umuntu washyize ikiganza ku gitonyanga cya kandagira ukarabe, arimo arakaraba, kuri kandagira ukarabe harimo haraza amazi, iruhande rwaho hari isabune, ari gukaraba ibiganza.

Abantu benshi batandukanye bari mu kigo nderabuzima, umubyeyi afite umwana mu ntoki, afite n'ifishi y'uwo mwana.

Abayobozi bo mu kigo gishinzwe ubuzima, bari gutanga ikiganiro ku ndwara ya Maribage bose bari imbere uko ari babiri bari imbere y'ababateze amatwi.

Abantu bifotoreje imbere y'inzu bakoreramo inama, bakaba bakikijwe n'ibyapa ku mpande bigaragaza serivise batanga.

Umwana uri ku iriba, yashyize ibiganza ku mugezi, arimo aratega amazi, umwana akaba yambaye ikanzu y'umutuku, yazinze amaboko.

Umwana ufite agapipiri k'amazi mu ntoki, ari kuyamena imbere y'inyubako, inyubako ifite y'ubakishije amatafari ahiye.

Abantu babiri barimo baravomera amazi mu majerekani bose bari imbere y'ibihombo bibiri biri kubaha amazi bayashyira mu majerekani bateza amajerekani kuri ayo matiyo abiri ari kubaha amazi.

Abantu benshi baje kwivuriza ku kigo nderabuzima umwe muri bo arahagaze ahagaze imbere y'abaforomo aho bakirira abarwayi.

Abantu benshi bicaye barimo baratega amatwi ibiganiro bigiye bitandukanye bari guhabwa n'abayobozi babari imbere.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo agaragara nk'uwishimye ari guseka cyane.

Abantu batanu bicaye mu itsinda, abagore bane n'umugabo umwe, bakikijwe ni insina n'ibiti, umugabo umwe yicaye imbere yabo ku kabaho ku ntebe y'urubaho, barimo baramubaza ibibazo bitandukanye na we akabasubiza.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi basuhuzanyije bari imbere y'umuryango, inyuma yaho hari urugi rw'imbaho, imbere yabo hari indabo zifite ibara ry'icyatsi kibisi imbere y'ivuriro.

Umubyeyi uhagaze mu gikoni, afite isahani iriho ibiryo mu ntoki akaba afite n'ifurusheti mu ntoki, akaba ari kurya.

Umuforomo ari kumwe n,umurwayi wicaye mu gatebe k,abarwayi barimo baraganira umurwayi yambaye umwenda w'umuhondo umuforomo yambaye impuzankano yubururu.

Abagabo barindwi bicaye ku rubaraza rw'inzu, buri wese yambaye ingofero afite n'inkoni mu ntoki, batatu muri bo bafite inkoni mu ntoki, abandi bane nta nkoni bafite.

Icyapa kiriho ibirango bitandukanye, kikaba cyanditseho uburyo bakwirinda kanseri, hakaba hariho uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo wirinde iyo kanseri.

Umuntu uri mu cyumba cy'abarwayi mu ivuriro, icyo cyumba kirimo ibitanda bigiye bitandukanye, buri gitanda gifite inzitiramibu.

Inyubako ndende itangirwamo serivisi za Leta, mu marembo y'iyi nyubako umusekirite afunguriye imodokadoka iratambuka, hanze yaho hari icyapa kigaragaza serivisi batanga, inyubako ikaba iruhande rw'umuhanda, hejuru y'iyo nyubako hari ibigega, hari n'iminara.

Umuntu uryamye ku gitanda cy'abarwaye bo kwa muganga, ucometseho imashini ucunga uko ubuzima bwe bumeze munsi y'igitanda harimo inkweto.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuzima ifite icyumba kirimo ibitanda by'abarwayi muri icyo cyumba hagiye harimo isakazamashusho hejuru.

Inyubako igereritse kabiri, imbere y'iyo nyubako harimo imodoka enye ziparitse, hakaba hari n'umutaka urimo abantu bacuruza amanite. Inyuma y'iyo nyubako hakaba ikikijwe n'ibiti, ndebre!

Icyuma gikoreshwa kwa muganga mu gusuzuma kuko ibice byo mu mubiri mu imbere y'umuntu bihagaze itarimo umuntu.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, harimo insakazamashusho ndetse n'ibindi biri mu cyumba ahantu hamwe.

Umuforomo wambaye agapfukamunwa, akaba yambaye na ga mu ntoki, ari imbere ya mudasobwa irambitse ku meza, kuri ayo meza hakaba harimo n'amakayi.

Umukobwa uhagaze ari muri siporo ari kunywa amazi mu gapipiri , yambaye ekuteri, yahambiriye terefone ku kuboko kw'iburyo.

Abaganga bari mu cyumba cy'abarwayi, bose bakaba bari kureba amakuru ku insakazamashusho, bakaba bari kumwe n'abarwayi.

Akagare k'umuntu ubana n'ubumuga bw'ingingo, gafite amapine ane, umwanya wo kwicaraho ariko nta muntu ukarimo.

Umukobwa uri muri siporo yambaye isengeri n'ipantaro ya siporo yambaye n'inkweto n'amasogisi y'umweru ahagaritse ukuguru kumwe ukundi yaguhinnye yarambuye ukuboko kw'iburyo.

Burankari irambitse ahantu itariho umuntu, ariko mu busanzwe ikoreshwa mu gutwaramo umuntu wavunitse, ikoreshwa ku bibuga by'umupira cyangwa kwa muganga.

Imiti y'ubwoko butandukanye ibitse mu cyumba kibikwamo imiti ku ivuriro. Imbere y'iyo miti, hari igitambaro kiyirinda izuba.

Igiti cy'umuravumba giteye mu rugo mo imbere, gikikijwe n'ibikuta, inyuma y'ibyo bikuta hari insina.